Mu cyumba cyo kwa muganga ahavurirwa abarwayi b'indembe, hari abaganga b'inzobere bambaye impuzankano ya gisirikare, harimo umuzungu n'umwirabura bari kuvura umwana uryamye ku gitanda gishashe igitenge.

Kwa muganga hari abantu benshi harimo babiri bambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umukara bicaye mu tugare babana n'ubumuga bw'ingingo, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ya sosiyete y'Inyange, inyuma yabo hagaza abantu b'igitsina gabo babiri.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahavurirwa abarwayi b'indembe, harimo umuganga wambaye ingofero y'ubururu n'itaburiya y'icyatsi, ari kuvura umurwayi uryamye wiyoroshe n'ishuka y'icyatsi kugira ngo abashe gukira.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abarwayi baryamye ku buriri n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bari kuvura abo barwayi.

Kwa muganga, ahavurirwa abarwayi b'indembe, hari umuntu batwaye kuri burankari, utwawe n'abagabo babiri, bambaye amasarubeti y'umweru, bipfutse ahantu hose.

Kwa muganga ahavurirwa indembe harimo abantu batatu b'igitsina gore, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, wambaye na ga mu ntoki ze n'umuntu ari kuvura kugira ngo arebe indwara arwaye.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaganga benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore bambaye imyenda y'icyatsi, bazanye umurwayi wihutirwa kuvura, bari kumuvura baganira.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahaza abarwayi bihutirwa kuvura, harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore abarwayi baryamye ku gitanda n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru baje kuvura abo barwayi.

Kwa muganga aho bakira abarwayi b'indembe, hari amazu menshi kandi meza yubakishije amatafari ahiye n'amabati y'ubururu, hanze hari ikigega gifata amazi y'imvura, hari n'abantu benshi bari kugenda harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'ubusitani bwiza burimo icyapa kinini cyanditseho emergency consultations.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane, ab'igitsina gahura n'ab'igitsina gore n'ababyeyi bateruye abana baje kubahereza inkingo n'abandi baje kwaka serivisi zitandukanye zo kwa muganga.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye hasi n'abicaye ku ntebe y'urubaho bafite impapuro mu ntoki bari kuziha muganga kugira ngo ajye kubasuzuma arebe indwara barwaye.

Kwa muganga ahavurirwa abana bicaye ku buriri, hari n'abantu benshi mu cyumba, harimo abagabo n'abagore baje kureba serivisi zihabwa abarwayi kwa muganga kugira ngo babakurikirane.

Icyumba cyo kwa muganga kibakishije amakaro harimo umuganga wambaye ingofero y'icyatsi n'itaba y'icyatsi na ga z'umweru, ari kuvura umurwayi kugira ngo abashe gukira. Harimo n'ibyuma bakoresha bavura.

Mu cyumba cyo kwa muganga muri farumasi aho batangira imiti umaze kwivuza harimo abantu batatu bose b'igitsina gore, umwe wambaye umupira w'umweru ugiye gutanga imiti, hari n'ameza ari'ibikombe bitandukanye birimo imiti myinshi n'akabati karimo imiti myinshi, n'abagore bateruye abana.

Umuntu w'igitsina gore ufite umwana baryamye ku buriri bushasheho ikiringiti cy'ubururu hamwe n'inzitiramibu hejuru yabo ibarinda imibu kugira ngo batarwara Malariya.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irange ry'umweru hariho ameza ariho ibikoresho byinshi bakoresha kwa muganga, hariho umuti uvanaho mikorobe, harimo n'ibipfuko ndetse n'amasahane ariho ibikoresho byinshi bakoresha.

Hanze hagaze abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore higanjemo abambaye imipira y'umweru hari n'umuntu w'igitsina gabo wambaye impuzankano ya Polisi bari gufata ifoto y'urwibutso, hirya yabo hari icyapa kinini cyanditseho, inyuma y'aho hari inzu nini cyane yanditseho inzu mberabyombi.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye, imbere yabo hateretse ibikoresho bitandukanye hari n'umuntu w'igitsina gore uhagaze imbere yabo uri kubahugura.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragara ko bari mu nama hari umuntu w'igitsina gabo uhagaze wambaye ishati y'umweru ari kubabwira ibyigwaho.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyubakishije amakaro y'umweru, harimo abantu batatu bambaye ingofero z'icyatsi n'amataburiya y'umuhondo n'undi uryamye ku gitanda bari kumuvura, harimo n'ibikoresho byinshi bari gukoresha bamuvura.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bafite icyapa kinini cy'umweru cyanditseho kwibuka ku nshuro mirongo itatu, ibitaro bya Gatunda, hirya hari inzu nyinshi, imbere hari ubusitani bwiza buteyemo pasipalumo n'indabo.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, hari abambaye amataburiya y'icyatsi n'abambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ya sosiyete ya Nili bari mu nama.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, umuzungu n'abirabura, hamwe n'ibikoresho bakoresha bavura abantu biragaragara ko bari kuganira.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bari ku murongo hari n'abafite icyapa kinini cyane cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Gatunda, inyuma yabo hari amazu menshi n'imbere yabo hari ubusitani bwiza buteyemo indabyo na pasiparumu.

Abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore, biragaragara ko ari kwa muganga, baje gutanga amahugurwa no kwita ku barwayi, barwariye kwa muganga.

Kwa muganga hatangirwa serivisi yo kuvura abantu hicaye abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore baje kwivuza kugira ngo babashe gukira.

Mu cyumba cyo kwa muganga hicayemo umuntu w'igitsina gore witeze igitambaro uteruye mwana w'uruhinja biragaragara ko yaje kumuvuza, hirya yaho haryamye abandi barwayi.

Mu ishyamba rinini cyane, harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, hari abicaye n'abahagaze bambaye imyenda ya siporo, bigaragare ko bari kwigishwa icyiza cy'imyitozo ngororamubiri.

Ibiganza bibiri byambaye ga z'ubururu, bifite agacupa mu ntoki, biragaragara ko ari muri laboratware, aho bapimira ibizame bitandukanye amaraso, inkari, umusarani kugira ngo bamenye indwara urwaye.

Icyumba cyo kwa muganga cya laboratwari, bapimamo ibizami bitandukanye, icy'umusarani, inkari n'amaraso, harimo umuntu wambaye ga z'ubururu, ufite ibipimo, ari gupima indwara, ziri mu maraso.

Muri laboratwari aho bapimira ibizami byafashwe bitandukanye, haragaragara amaraso yafashwe bagiye gupimamo indwara zitandukanye, hirya hari n'icyuma cya miroscope gipima microbe.

Icyumba cyo kwa muganga cya laboratwari aho bapimiramo ibizamini bitandukanye, harimo umusarani, inkari n'amaraso harimo ibikoresho byinshi cyane bakoresha bapima ibyo bizami, harimo n'umuntu w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ukorera muri laboratwari.

Mu cyumba cyo kwa muganga, muri laboratwari, aho bapimira indwara zitandukanye, harimo abantu babiri, umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'amadarubindi n'umwana, ari kumupima kugira ngo arebe ikibazo afite cy'amaso.

Kwa muganga mu cyumba cya laboratwari, aho bafatira ibizamini bitandukanye, harimo umusarani, inkari ndetse n'amaraso, harimo umuntu wambaye ga ebyiri, ugiye gufata umuntu ikizamini cy'amaraso kugira ngo amusuzume indwara arwaye.

Mu cyumba cyo kwa muganga, muri raburatwari, harimo abantu babiri, umwe y'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru na ga mu ntoki, haba n'undi uhagaze wambaye imyenda yo mu bwoko bw'itenge, bari kumupima ikizamini cy'amaraso kugira ngo barebe indwara.

Muri laboratwari ahapimirwa ibizami bitandukanye, harimo amaraso, inkari ndetse n'umusarani, harimo abantu benshi cyane higanjemo urubyiruko, abasore n'abakobwa bafite amakaramu bari kwandika, bambaye amataburiya y'umweru.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gore bambaye imipira y'umutuku, harimo n'umwe ufite ubumuga bw'uruhu, bari kubyina imbyino za kinyarwanda bigaragare ko hari abatangirwa ubuvuzi ku bana.

Umubyeyi w'igitsina gore, wambaye ikanzu y'ubururu biragaragara ko yishimye, yicaye ku gitanda gishasheho ishuka y'ubururu, biragaragara ko ari kwa muganga, aho yaje kuvuza umwana.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore n'abana b'incuke bambaye imipira ya orange, bari guhera amata mu nkongoro kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Hari n'umuntu w'igitsina gore ufite imfatashusho.

Mu gishararaga harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo, ab'igitsina gore, bateruye abana, biragaragara ko baje gupimisha abana babo kugira ngo barebe imikurire yabo.

Munsi y'ibiti hicayemo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari undi mugore uhagaze imbere yabo wambaye umupira w'icyatsi wanditseho ra, ba, sa ufite urupapuro mu ntoki n'indangururamajwi mu ntoki ze ari kubabwira.

Abantu batatu harimo babiri b'igitsina gore, umumama uteruye umwana, wambaye imyenda yo m'ubwoko bw'ibitenge, harimo n'umuganga w'igitsina gore, uri kwandika mu ikayi biragaragara ko ari kwandika imyirondoro y'umwana kugira ngo babone uko bamuvura.

Abantu benshi b'igitsina gore, bateruye abana b'impinja, bicaye ku ntebe z'urubaho, biragaragara ko ari kwa muganga, aho batangira serivisi zo kuvura abana.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye imipira ya oranje n'abambaye impuzankano ya Polisi biragaragara ko bari guha abana ibinini by'inzoka.

Abana benshi harimo abahungu n'abakobwa, bari kubigisha gukaraba intoki neza kuri kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi, n'ibase y'ubururu, hari umuntu mukuru uri kubigisha gukaraba intoki.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'ubururu n'amashati y'ubururu, ni abajyanama b'ubuzima, bita ku mikurire y'abana n'abagore batwite.

Mu ishuri ry'inshuke harimo abana benshi cyane bicaye ku ntebe z'ubururu, umuhondo n'icyatsi bari gufata ifunguro ryujuje intungamubiri hari n'abantu bakuru bari kubagaburira.

Mu ishuri ry'incuke hari abana bicaye ku dutebe tw'ubururu n'icyatsi, bari gufata ifunguro ry'indyo yuzuye, igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, kugira ngo bazagire imikurire myiza. Hari n'abantu bakuru bari kubitaho.

Mu muhanda harimo abanyeshuri benshi cyane, harimo abambaye impuzankano, imbere bafite icyapa kinini cyane, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'ubururu n'andi yanditseho:" Rubyiruko turwanye ibiyobyabwenge kuko bitwicira ubuzima, bikanadindiza iterambere ry'Igihugu" mu ibara ry'umweru.

Icyapa kinini cy'icyatsi n'umweru cyanditseho baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, imyitwasha gutera ihungabana mu ibara ry'icyatsi n'andi magambo menshi mu ibara ry'umweru n'ubururu, handitseho mu magambo manini imbuto foundation mu ibara ry'icyatsi.

Mu ishyamba harimo ibiti byinshi, harimo abantu benshi cyane b'igitsina gabo, bigaragara ko bageze mu za bukuru, bari gukoma amashyi, biragaragara ko rwose bishimye.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, abahagaze n'abasutamye, harimo abazungu n'abirabura inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Isange one stop cente bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo akabati karimo impapuro z'abantu baje kwivuza, harimo n'umuntu w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe y'umukara uri gukoresha mudasobwa.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'ibiti bicaye mu buryo bw'uruziga, hari umugabo uhagaze imbere yabo uri kubabwira amabwiriza, ku meza hateretse mudasobwa y'umukara.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo, n'igitsina gore, higanjemo abambaye imipira ya orange, harimo abirabura n'abazungu, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini cyane cyanditseho ikigo cy'urubyiruko cya Kinzuzi.

Mu muhanda harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore n'umugabo wambaye impuzankano ya porisi bari kwamagana ibiyobyabwenge mu rubyiruko no mu muryango bafite icyapa kinini cyane cyanditseho kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda mu ibara ry'ubururu.

Ndetse hari umuntu w'igitsina gore wambaye ikanzu y'igitaka irimo n'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki ze n'agatambaro k'umweru, ari mu giterane inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu cyanditseho igiterane cy'ivugabutumwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge.

Mu gishararagati, hiciyemo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'umutuku n'igofero z'umukara n'umuhondo, bari kwigishwa uko ubuzima bwo mu mutwe bumera.

Hanze kuri sima, hateretse ga ebyiri zitandukanye, zisa umweru, aho umuntu uzambaye abasha kwirinda indwara zandura n'izitandura kugira ngo abashe kwirinda.

Ahazwi nka farumasi aho bacuruza imiti itandukanye kugira ngo abantu baze babagana bagure imiti ivura indwara zitandukanye babashe gukira, hejuru hari icyapa kinini cyanditseho farumasi mu ibara ry'umweru.

Farumasi ahazwi n'aho bagurishiriza imiti kugira ngo abakeneye iyo serivisi baze babagana, hejuru hari icyapa kinini cy'ubururu, cyanditseho sabanasi, farumasi mu ibara ry'umweru, bagakorana n'ubwishingizi bwinshi butandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ,icururizwamo imiti itandukanye, aho abantu bayigana kugira ngo baze kugura imiti yabavura, harimo na mudasobwa bakoresha bareba imiti bafite n'iyo bamaze kugurisha.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo imiti, ahazwi nka farumasi, harimo abantu babiri, umwe uje kugura imiti n'undi uri kuyitanga, ari kumuha amabwiriza yo gufata iyo miti kugira ngo azakire neza.

Muri farumasi ahazwi nk'aho bagurishiriza imiti harimo abantu b'igitsina gabo bambaye amataburiya ya kake, bayicuruza harimo n'utubati duvanzeho imiti myinshi itandukanye ivura n'indwara zitandukanye.

Muri farumasi hari imiti itandukanye ivura n'indwara zitandukanye iri mu ibara ry'umuhondo, umweru, umutuku, oranje n'indi myinshi, mu gihe umuntu aza kuyigura kugira ngo abashe gukira indwara arwaye.

Ahazwi nko muri farumasi, bacuruza imiti y'amatungo, ikiganza cy'umuntu gifashe umuti mu ntoki ze, hirya hari imiti itandukanye y'amatungo, yashushanyijeho inka n'utunyana.

Muri farumasi ahazwi n'aho bacuruza imiti itandukanye, harimo akabati karimo imiti itandukanye, ivura n'indwara zitandukanye n'umuntu uyicuruza w'igitsina gore, wambaye itaburiya y'umweru.

Muri farumasi ahazwi nk'aho bagurishiriza imiti y'amatungo, harimo igicupa kinini cy'umweru gishushanyijeho: inka, ihene n'inkoko, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Muri farumasi ahazwi nk'aho bagurishiriza imiti itandukanye, hari akabati karimo imiti myinshi itandukanye, ivura n'indwara zitandukanye aho abashaka serivisi yo kugura imiti baza bayigana kugira ngo bayihabwe.

Muri farumasi ahazwi nk'aho bacuruza imiti kugira ngo abarwayi baze babagana bagure imiti itandukanye bayinwe kugira ngo bakire, harimo akabati kapanzemo imiti myinshi cyane ivura indwara zitandukanye, hejuru y'akabati hari mudasobwa y'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara, hakurya hari kugenda igare n'umuntu uri kugenda n'amaguru, hari na moti iparitse, hakurya y'umuhanda nanone hari inzu ya farumasi aho bacururiza imiti kugira ngo abarwayi baze bayigana babashe gukira.

Muri farumasi ahazwi nk'aho bagurishiriza imiti, kugira ngo abashaka iyo serivisi baze babagana babashe kugura imiti hanyuma bakire indwara barwaye, harimo akabati karimo imiti myinshi itandukanye ivura n'indwara zitandukanye.

Mu muhanda wubakishije amabuye, aho banyura bagiye muri farumasi, ahazwi nk'aho bagurishiriza imiti kugira ngo abakeneye serivisi z'imiti baze babagana, hejuru ku gikuta handitse Saint Rita farumasi mu ibara ry'umukara.

Muri farumasi ahazwi nkaho bacuruza imiti harimo utubati dupanzemo imiti itandukanye ivura n'indwara zitandukanye, aho abantu baza bayigana kugira ngo bagure imiti babashe kuvurwa bagakira.

Kuri podiyumu hari abantu benshi cyane bambaye imipira y'umweru n'icyapa kinini cyane cyanditseho gakoresha neza baje gushishikariza abantu gukoresha udukingirizo kugira ngo birinde indwara zandura.

Igisharagati cyo mu bwoko bwa kijyambere, gifite ibara ry'umweru n'umutuku, cyanditseho " Rwanda", cyicayemo abantu benshi, imbere yaho hahagaze abantu benshi bambaye amapantaro y'umukara n'imipira y'umweru, harimo n'abantu b'igitsina gabo bambaye impuzankano ya gisirikare, n'abapolisi bafite icyapa kinini cyanditseho agakingirizo mu ibara ry'umweru.

Mu busitani bunini cyane harimo igisharagati cy'umweru gifite n'ibitambaro by'ubururu, umuhondo n'icyatsi, harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru, hari na kandagira ukarabe aho umuntu aje agomba kubanza gukaraba n'amazi meza n'isabune bari mu mahugurwa.

Hanze hicaye abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, n'umubyeyi w'umumama ufite umwana, ku meza yabo hateretse telefone, bafite n'amakaye bari kwandika bari mu mahugurwa.

Hanze hari abantu benshi cyane, hari igitsina gabo n'igitsina gore n'undi wambaye impuzankano ya polisi, bafite icyapa kinini cyane, cyanditseho koresha agakingirizo, ubungabunge ubuzima bwawe, mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Ku kigo cy'amashuri, hari kubera amahugurwa atandukanye, hari abanyeshuri benshi, abakobwa n'abahungu, bicaye ku ntebe, bafite n'icyapa kinini cyanditseho, ndi uw'agaciro, ndashoboye ibara ry'umukara.

Mu kigo cy'amashuri higanjemo ab'igitsina gore bambaye imyenda itandukanye bari mu mahugurwa, imbere yabo bafite icyapa kinini cyane cyanitseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara bari gufata ifoto y'urwibutso.

Hanze hicaye abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore higanjemo urubyiruko bicaye ku ntebe z'ubururu, harimo n'uwitwikiriye umutaka bari mu mahugurwa. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'iroze.

Hanze hari abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore higanjemo abambaye imyenda y'umweru n'abambaye impuzankano ya polisi, hari abahagaze n'abasutamye bari gufata ifoto y'urwibutso, bari ku bitaro bya Gatunda.

Aho bagurira imiti ya kinyarwanda kugira ngo uyishaka wese azabagana abashe kuvurwa mu buryo bwa kinyarwanda, hari imiti igiye itandukanye, iy'ifu harimo igisura, ibumba, amakara, igikakarubamba n'ibindi byinshi.

Igikombe kinini cyane, gifite umupfundikizo w'umuhondo, kirimo umuti dukoresha wa kinyarwanda w'umuravumba, aho uvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi nyinshi.

Akabati karimo imiti myinshi cyane y'ubwoko bwa kinyarwanda igitandukanye, ivura indwara zitandukanye, harimo amakara, ibumba, harimo n'umuntu uyicuruza w'igitsina gabo.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye isharupe y'umweru, ufite isakoshi, wambaye n'impeta, ari gusuroma imiti ya kinyarwanda, bita umuravumba, aho uvura indwara zitandukanye, inkorora, ibicurane n'izindi nyinshi, harimo n'insina muri uwo murima.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa kwa muganga aho umurwayi aryama intebe y'umukara harimo n'abantu babiri umuntu w'igitsina gabo wambayetaburiya y'umweru, ku meza hari umuti uvalo mikorobe mu ntokig n'ibindi bikoresho bipima indwara zitandukanye.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore harimo abamama bateruye abana biragaragara ko baje kwivuza, inyuma yabo hari akabati gapanzemo impapuro zo kwa muganga.

Kwa muganga hicaye abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, imbere yabo hahagaze umuntu w'umugabo uri kubabwira, bigaragare ko bari mu nama.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, n'abamama bateruye abana, hari abaganga bicaye imbere, bigaragare ko bari kubaha ibinini bitandukanye, hari n'ameza ari imbere yabo ateretseho umuti ukuraho udukoko.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abarwayi ndetse n'abaganga b'igitsina gabo n'igitsina gore hari babiri bafite amakaye mu ntoki zabo bari kwandika, imbere yabo hateretse umuti ukura mikorobe mu ntoki.

Kwa muganga aho batangira imiti hari abantu batatu bose b'igitsina gore umwe w'umuganga uri kwandika hari n'akabati gapanzemo imiti n'ameza ariho imiti hari n'umumama uteruye mwana n'undi bari guha imiti.

Inzu nini cyane kandi nziza isize irangi ry'ubururu ifite icyapa hejuru cyanditse gira ubuzima hilifi positi hariho umuryango ugizwe n'umwana n'umugore n'umugabo, hanze hari intebe z'urubaho, nanone hanze hari kandagira ukarabe z'umweru, ku kabaraza k'iyo nzu hicayeho abantu benshi baje kwaka serivisi zitandukanye.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'urubaho harimo n'umuganga uri kwakira umurwayi mu gihe aje kwivuza, inyuma hari akabati bashyiramo ibyangombwa by'abarwayi.

Inzu nini kandi nziza isize irangi ry'ubururu yubakishije na amabati y'ubururu ifite icyapa hejuru cyanditseho gira ubuzima health post, ishushanyijeho n'umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana, hanze hari ubusitani buteyemo ibiti by'ubwoko bw'imikindo hari na kandagirukarabe y'umweru haparitse na moto hari n'abantu bicaye.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bigaragare ko barwaye indwara z'ijisho, baje kwisuzumisha kugira ngo barebe uko uburwayi bwabo buhagaze.

Icyapa kinini cyane kiri mu ubuso bwa mpande enye kiriho ikirangantego cy'igihugu kirimo isaka mo mu imbere n'agaseke cyanditseho ikigo nderabuzima cya Nyagatare aho iyo umuntu ahageze amenya ko yageze ku kigo nderabuzima, hari n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru cyanditseho bobi kiranga ahantu bivuriza kuri telefoni.

Mu cyumba harimo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, bari gupima indwara zandura bari gupima ugeze mu za bukuru, umuvuduko w'amaraso.

Inzu nini kandi nziza isize irangi ry'ubururu hariho icyapa cyanditseho gira ubuzima health post welcome, ikaze hari gusohokamo abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'abandi bicaye hanze baje kwaka serivice zitandukanye.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo, ab'igitsina gore bateruye abana, biragaragara ko baje gupimisha abana babo ibiro no kureba uko ubuzima bwabo buhagaze, ku bijyanye n'indyo yuzuye.

Ku kigo nderabuzima hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'urubaho, baje kwaka serivise zo kwivuza zitandukanye aho bavurwa uburwayi butandukanye.

Inzu nini cyane kandi nziza isi irangi ry'ubururu, ifite icyapa cyanditseho Gira ubuzima herufu posite, hariho umuryango w'umugabo n'umugore n'abana, hirya y'inzu hari ikigega gifata amazi y'imvura, imbere y'iyo nzu hicaye abana, harimo ab'abakobwa n'abahungu.